Ibiganza byambaye uturindantoki bifite igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma no gutera inkingo, kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo uri mu zabukuru ufite akanyamuneza mu maso, ibiganza bye bifashe ku kivomesha inyuma ye hariho uruzitiro rukozwe n'ibiti.

Abantu batandukanye abera n'abirabura bamwe baricaye abandi barahagaze. Inyuma yabo hari ikirango kigaragaza inama bari barimo. Bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso, bahagaze bishimye bafite akanyamuneza mu maso ya bo.

Ababyeyi bajyanye abana kubapimisha ngo barebe ibiro byabo, uburebure, ndetse banamenye uko bahagaze. Niba bafite ubuzima bwiza, n'icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Abana babiri, umukobwa n'umuhungu, bari ku ivomero rusange, umwana w'umukobwa ari kuvomera mu bivomesho bazanye, uw'umuhungu amufasha kuzana amazi avamo hasi, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umugore uri kuvoma amazi mu gishanga akoresheje ikibido, inyuma ye hari umugabo uri koza ikinyamitende tuze nk'igare, inyuma y'uwo mugabo ndetse no mu ruhande rwe hari ibyatsi, ari gushyiramo amazi yanduza amazi y'igishanga.

Abana bari mu rungano, bari ku mugezi, bari gukaraba, mu rwego rwo kugira ubuzima buzira umuze, bimakaza isuku, ndetse barwanya n'indwara zikomoka ku mwanda.

Abagore bicaye ku ntebe baje kwipimisha indwara y'umuvuduko w'amaraso, inyuma yabo hari ubusitani buzengurukijwe n'indabo zigiye zitandukanye ndetse n'ibyatsi.

Imbaga y'abantu benshi bicaye mu cyumba kiberamo inama bicaye mu buryo bw'uruziga, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo uri kubaha amategeko n'amabwiriza. Afite indangururamajwi.

Ikirango kigaragaza ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi utwite, bityo umwana akavuka afite ubuzima bwiza ndetse akagira n'ubuzima bwiza amaze kuvuka.

Abana bambaye impuzankano bahetse ibikapu bavuye kwiga, bari gukaraba amazi ku rukarabiro. Ahantu bakarabira kugira ngo bakomeze kwimakaza umuco wo kugira isuku, birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Inyubako zubatse mu buryo butandukanye, harimo ibiraro, inyubako zikoze uruziga, ndetse n'inyubako zirambuwe harimo inyubako zubatse mu buryo bugaragaza ko buri wese akwiye kugira ubuvuzi byerekana ko harimo n'ubusitani bwiza.

Imbaga y'abantu benshi bafite akanyamuneza mu maso habo batonze imirongo, inyuma yabo hari ikirango kigaragaza ibyo bari barimo, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abagore n'abakobwa baje ku ivomero rusange ryubatse mu buryo bw'akazu. Inyuma yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi byifashishwa mu kuduha umwuka mwiza bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi n'umwana, umubyeyi yajyanye umwana kwa muganga, umuganga ari kumwitaho, umuganga yambaye udukomo two ku matwi, ndetse afite akanatu ari guha umwana yamuraramishije ari kureba hejuru.

Abantu bicaye ku ntebe bategereje serivisi, imbere yabo hariho abari guhabwa serivisi, ku nkuta hariho amabwiriza agenga umuntu wese uje kureba serivisi.

Umugore n'abana. Umugore wikoreye ikivomesho kirimwo amazi, hirya ye hari ibyatsi by'icyatsi kibisi ndetse imbere ye hari umunara ndetse n'amazu.

Umwana ufite akanyamuneza mu maso he, uri ku mugezi, ari gukaraba amazi, afite umusatsi w'injwiri, ubona ko yishimiye gukaraba mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku.

Abagabo n'abagore batonze imirongo, bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hariho ibirango bigaragaza ko bari bari mu nama, iyi nama ikaba yari inama igamije kwiga ku buzima ku isi hose.

Imbaga y'abantu benshi; abana, abakuru. Bashungereye umugezi. Uri kuvomwaho n'umwana muto. Inyuma hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ibirango by'ibigo bitandukanye bikorana ndetse binateza imbere ubuzima, bikaba bikorana hagati yabyo mu guteza ubuzima imbere ndetse no mu gutanga inkunga.

Urugomero rw'amazi rudufasha mu gutanga imbaraga zikomoka ku mashanyarazi ndetse harimo ibibyuma byinshi bidufasha mu gukusanya izo mbaraga ndetse n'ibidufasha nka moteri idufasha gutanga imbaraga.

Umukobwa n'umugabo, umugabo wambaye amadarubindi, wambaye n'ikirango cy'isi cy'ubuzima, bishatse kuvuga ko ari ubuzima kuri bose, ku isi hose dukwiye kugira ubuzima bwiza.

Abana bambaye impuzankano n'umugore uri kubagaburira ufite imisatsi miremire wambaye amadarubindi. Inyuma ye hariyo ushinzwe umutekano tuzi nk'umusirikare, bari kubagaburira babaha icyo kunywa nk'amata ndetse n'ibindi.

Umwana muto ubona ufite ubwoba ndetse n'ibiganza bimufasheho birimo bifite igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutera urukingo. Urukingo rufasha umwana mu kuzamuka neza mu mikurire ye ndetse no kumurinda indwara zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu abicaye n'abaticaye, amahema, ibendera ry'igihugu, imodoka ndetse n'inzu iri kwakira abo bantu bose bityo bisa nkaho bafite icyo baje kureba, impande zabo bakikijwe n'ibiti gakondo.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe harimo n'abashinzwe umutekano. Harimo n'uri kubaganiriza ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ari imbere yabo. Hari n'umwana muto wicaye imbere y'umumama, bambaye imyenda itandukanye. Bari ahantu hatakishijwe ibitambaro biri mu ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Bari kuganirizwa ku bintu bitandukanye.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomo rusange ari koza ibivomesho yaje kuvomeramo, Ibyo bivomesho akaba ari indobo ziri mu ibara ry'igitare.

Umwana wambaye impuzankano ari kuri kandagira ukarabe, dukunze kwita ubukarabiro ari gukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Ihuriro ry'abana bato n'ababyeyi babo bambaye impuzankano, bari kugaburirwa n'ababishinzwe kugira ngo abana bakomeze kugira ubuzima buzira umuze, barya indyo yuzuye bityo bagire ubuzima bwiza.

Umugore ufite imisatsi iziritse uhetse umwana ukenyeye igitenge, ari koza igikoresho bifashisha bavoma akacyogereza ku mugezi, inyuma ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu benshi, mu cyumba, bicaye, imbere yabo ku meza hateretseho ifunguro, abicaye imbere yabo basa nk'ababayoboye, inyuma yabo hari ikirango kigaragaza ibyo bagiye kuganiraho, indangururamajwi.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be bafite akanyamuneza mu maso bishimiye ko bari kumwe n'umubyeyi wabo. Abana bishimiye kuba bari kumwe na mama wabo, mama wabo yambaye amadarubindi ku maso ye, yambaye imyambaro itandukanye n'iyabo. Abandi bana nabo bambaye impuzankano bari ahantu hamwe.

Abantu bakuze abana n'urubyiruko, kuvomero rusange baje kuvoma amazi, bazanye ibivomesho bitandukanye, bamwe bafite inkoni nyuma yabo hari amazi ndetse n'inzu ihubatse n'urutoki.

Ihuriro ry'ababyeyi bafite abana bakiri bato, bari kugaburirwa n'umusore ufite umusatsi, wambaye amadarubindi, bisa nkaho bari kubigisha kugaburira abana indyo yuzuye n'imirire myiza iboneye kugira ngo abana babashe kugira ubuzima buzira umuze kandi babashe no kugira ejo hazaza heza.

Imbaga y'abantu benshi bari ahantu, bambaye impuzankano, bose batonze umurongo bisa nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho hari ikirango cya Minisiteri y'Ubuzima.

Umukobwa n'abana babiri baje ku ivomo, baje kuvoma amazi n'ibivomesho bitandukanye, umukobwa ubona ko afite akanyamuneza mu maso he ateruye ikivomesho ke ari kuvoma.

Abana babiri bari ku mugezi rusange, inyuma yabo hari ikidendezi cy'amazi, bari gukaraba intoki, ubona ko bishimiye kugira ubuzima bwiza burimo umucyo, inyuma yabo hari ibyatsi byumye ndetse n'ibiti.

Itsinda riri ahantu hamwe, riri kwiga uburyo bwo gukumira no kurwanya itwita ry'abangavu kugira ngo bagumane ubuzima bwabo ndetse n'ubusugi, bityo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu benshi bahuriye hamwe abenshi muri bo bambaye impuzankano bisa nk'aho bakora umurimo umwe ndetse hagati yabo harimo umugabo usa nk'aho yaje kubaha ibiganiro abantu kandi bishimiye kuba bari kumwe n'abandi bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umukobwa uri gufasha abana bato ku ivomo rusange kubona amazi. Bafite ibivomesho bitandukanye. Inyuma yabo hariyo ibiti ndetse n'ibyatsi. Mu muhanda wa ruguru hari guturukayo ikinyabiziga tuzi nk'imodokari.

Ikirango kigaragaza ko buri wese yemerewe ubuvuzi ku isi hose. Aho ngaho turahasangamo mu majyaruguru ya Karolina ariho naho bagaragazaga, bagaragaza ko naho ubuvuzi bwahageze.

Abantu batatu umwe afite igikoresho cyo kwa muganga mu ntoki, bose bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo yambaye amadarubindi undi afite amadarubindi mu gatuza ke, undi ari guterwa urukingo kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu waje kuvoma ku mugezi rusange, yazanye ibivomesho bitandukanye ari kuvoma amazi meza, inyuma ye hari ibihuru, imbere ye hari isabune hejuru y'umugezi ndetse hirya y'umugezi hari ibindi biti ibyumye ndetse hariyo n'ibyatsi.

Abana batatu bisa naho bari mu kigero kimwe bari kuvoma amazi ahantu bisa nkaho ari mu gishanga cyangwa se ahareka amazi yatembye ava ku musozi, bari kuvoma bakoresheje ibivomesho bitandukanye, indobo ndetse n'ibase.

Icyumba kirimo abaganga babiri n'umurwayi umwe, bose bambaye ubupfukamunwa, kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu gupima no gusuzuma indwara, ku meza hateretseho ibikoresho byo kwa muganga ndetse na mudasobwa.

Abana bahuriye ahantu hamwe bane muri bo bambaye impuzankano zisa babiri muri bo bambaye nabo impuzankano sisa ukwazo bakaba bahuriye ku ivomero baje kunywa amazi.

Abana batatu bazananye n'umubyeyi wabo ku ivomo rusange kuvoma amazi, inyuma yabo hari ibihuru bisa n'aho iryo vomo riri ahantu kure y'abaturage.

Ivomo rusange rihuza abantu benshi, turabonamo abana, aba mama cyangwa se abagore baje kuvoma bazanye ibivomesho bitandukanye, ibibido ndetse n'ibindi bivomesho.

Abantu bahuriye hamwe bisa nkaho bategereje serivise abenshi muri bo bambaye udupfukamunwa ndetse imbere y'abari gutanga serivise ku meza yabo hatetseho mudasobwa n'umugozi ubafasha kwinjizamo umuriro, inyuma yaho hari amabwiriza buri muntu wese ugannye aha hantu abanza gusoma.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, uri ku bukarabiro rusange akaraba intoki n'amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe hagati yabo harimo umwe uri kubaha ikiganiro, akaba yambaye impuzankano zikoreshwa kwa muganga, bikaba bisa nk'aho ari kubaha ikiganiro kijyanye n'ubuzima.

Abagore n'abana, baje kuvoma ku mugezi rusange. Bazanye ibivomesho bitandukanye indobo, zitandukanyije amabara. Bigaragara ko umugezi wabashimishije bafite akanyamuneza ko kubona amazi meza.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba baganira ku bijyanye n'ubuzima, bigishwa uburyo bakwiye kubungabunga ubuzima neza, bityo bakazabaho neza bakazagira ubuzima bwiza buzira umuze bari kubifashwamo n'impuguke muri byo.

Umwana ufite umusatsi wambaye ikabutura n'ishati, uri ku ivomero rusange wazanye ikivomesho cy'indobo, inyuma ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi bisa umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umucecuru ufite ibivomesho uri mu zabukuru. Waje ku ivomero rusange, gushaka amazi yo gusukura, ndetse no kwiyitaho. Inyuma ye hari urutoki ndetse n'ibyatsi.

Abagore n'abagabo bari mu cyumba kimwe ubona ko bambaye impuzankano bose bari kwiga, bafite amakaye mu ntoki zabo bisa nkaho bari gusoma bibafasha kugira ngo bamenye byinshi ku buzima.

Abaganga n'abarwayi. Muganga ufite igikoresho cyifashishwa mu gutera urukingo ndetse no gusuzuma. Umugore wambaye agapfukamunwa n'abandi baganga bambaye udupfukamunwa. Imbere yabo ku meza, hari ibikoresho byifashishwa kwa muganga.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari amazi, bafite impapuro mu ntoki zabo, inyuma yabo hari izindi ntebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Abanyeshuri bari mu rungano, bambaye impuzankano baje ku kigega gishyirwamo amazi meza yo kunywa, baje kunywa amazi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze, bityo bige neza bafate.

Umusore ufite umusatsi, imbere ye hari ibikoresho byo kwa muganga yambaye uturindantoki, inyuma ye hari undi musore wambaye akajiri kabonerana, inyuma ye hari akazu ndetse n'ibiti.

Umwana wambaye impuzankano, uri ku rukarabiro, waje gukaraba mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda. Intebe iteretseho indobo yifashishwa mu gusakaza amazi kugira ngo turwanye umwanda.

Itsinda ry'abagabo n'abagore ndetse n'umwera bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano bafite ibibaranga n'ibyo bakora ku gatuza kabo, umwera yambaye amadarubindi, barishimye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi ufite abana bato, baje ku ivomero rusange. Bazanye ibivomesho bitandukanye, harimo amabido ndetse n'ibikoresho nk'indobo. |Abana bari kuvoma. Inyuma yabo hari inyubako, ndetse izo nyubako inyuma yazo hariyo ibiti.

Imbonerahamwe igaragaza ishusho rusange y'ukuntu dukwiye kwitwara mu gihe turi mu cyorezo. Imbonerahamwe kandi igaragaza ibidakwiye gukorwa ndetse n'ibikwiye gukorwa mu kwirinda iki cyorezo. Iki cyorezo bagaragazaga ni ukugira ngo buri wese igihe habonetse icyorezo abashe kwirinda.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bari kuganirizwa ku buzima, ukuntu buri wese afite uburenganzira bwo kuvurwa ndetse bakarwanira. Ubuzima ku isi hose ubuzima buzira umuze isoko y'iterambere amajyambere n'ibindi.

Umugore n'umugabo bahagaze ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, umugabo yambaye ikote ndetse n'ipantaro nziza, umugore yambaye ikanzu irimo uturabo, inyuma yabo hariho ifoto igaragaza umubyeyi ukikiye umwana wishimye, umwana ariko bisa nkaho atishimye, impande hariho abana bishimye yuko bafite ubuzima bwiza.

Icyapa kigaragaza ubuvuzi ndetse cyemerera buri wese kwivuza, bishatse kuvuga ko buri wese afite uburenganzira bwo kwivuza igihe afite ikibazo cy'ubuzima.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, abera ndetse n'abirabura bahuriye ahantu hamwe. Ku meza yabo hateguweho amazi yifashishwa mu kugira bagire ubuzima buzira umuze. Bicaye mu cyumba kimwe basa nkaho bari kuganira ku bintu bitandukanye, bose bicaye mu buryo bw'uruziga.

Abana bari mu rungano rumwe bambaye impuzankano. Bafatanye ku rutugu ikimenyetso cyo kuvuga ko bafatanyirije hamwe bagera kuri byinshi. Bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bambaye impuzankano bisa nk'aho bari bari guhugurwa ku kintu runaka kijyanye n'ubuzima, bahabwaga amahugurwa ajyanye n'ubuzima, uburyo bakwitwara ndetse n'uburyo bakwinda.

Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga, imbere yabo ku meza hateretseho ibikombe ndetse n'amasahani byazanye amafunguro, hatetseho n'imashini ndetse n'ibindi bikoresho wagira ngo bari mu nama.

Imbaga y'abashyitsi benshi ndetse n'abana bari mu rungano rumwe bambaye impuzankano baje gusurwa n'abashyitsi benshi ndetse bari kumwe n'abarezi babo nk'uko bigaragara abana bari mu gihe kimwe bambaye n'impuzankano.

Ibiganza bibiri bifashe icyuma ndetse byambaye uturindantoki tw'ubururu, utwo turindantoki tukaba tudufasha mu kuturinda ibyakomeretsa ibiganza byacu ndetse tukagira ubuzima buzira umuze.

Abantu bari ahantu hamwe bisa nkaho bari guhabwa udupapuro turiho amabwiriza agenga ibyo bakwiye gukora mu buzima, bakwiye kwita ku buzima bwabo ndetse nyuma yabo hari ibiti hariyo n'imodokari.

Abantu bambaye impuzankano, bambaye ibirango by'ibyo bakora mu gatuza kabo, inyuma yabo hari inzu yanditseho ikigo nderabuzima cya Mayaga, yifashishwa mu gukurikirana no kuvura abarwayi.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe baje kureba uko ubuzima bwabo buhagaze babifashijwemo n'abafashamyumvire ndetse n'abaganga, turahabona umusaza uri mu za bukuru waje kureba uko ubuzima bwe buhagaze, bityo kugira ngo akomeze kwizera agire icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Umugore wikoreye indobo y'umutuku, atengase n'indi mu kuboko kwe kw'iburyo y'umuhondo, asa naho avuye gushaka amazi, imbere ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi byumye, bisa nkaho ari mu gihe cy'ibura ry'amazi.

Umugabo uri gusuhuzanya n'umwana mu buryo budasanzwe. Inyuma yabo, hari abandi bana bicaye ndetse n'abantu bakuru. Inyuma yaho, hari ibiti ndetse n'ibyatsi, bidufasha mu kuyungurura umwuka.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bicaye ku ntebe, bambaye impuzankano zimwe bamwe bambaye amadarubindi abandi ntayo bambaye, bisa nkaho bari guhabwa ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima.

Ikirango kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amazi ndetse gishinzwe no kwita ku buzima bw'amazi, kikareba neza amazi asukuye. Iki kigo gitangizwa na wa, a, na sa na a na c, iki kigo kidufasha mu kuduha amazi mu gusakaza amazi mu gihugu hose.

Umusore wishimye ufite ubwanwa, wambaye umupira w'umuhondo bigaragarako afite ubuzima bwiza buzira umuze ndetse atekereza neza yishimiye ubuzima abayemo.

Ikirango kigaragaza uburyo bwiza bwo gutanga serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe, buri muntu wese akwiye gusoma ikirango kugira ngo amenye uturere dutangirwamo serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe, bityo turinde ubuzima bwacu kwangirika.

Umukobwa wirabura, ufite umusatsi ukase, wambaye ishati y'umutuku, agapira k'ubururu, wishimye, ubona ko ashimishijwe n'ubuzima arimo.

Abagore babiri n'umwana muto, umugore uteruye umwana n'undi mugore ufite igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gupima umuriro, afite telefone ngendanwa mu ntoki ze, ari kwereka mugenzi we igikoresho cyo kwa muganga.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'imbere akaba yambayemo indi y'umutuku, afite ikirango kimuranga ibyo akora mu gatuza ke ndetse ubona ko afitanye ubufatanye n'ikigo cy'ubuzima.

Abagore n'abagabo bambaye ibiranga ibyo bakora mu ijosi. Bamwe muri bo bambaye amadarubindi n'udupfukamunwa. Imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi ndetse na za mudasobwa.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze asa naho ari kuvuga ku bijyanye n'indwara ndetse n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, aho twasangamo ibigo bigenda bibafasha mu kugira mu kuvura indwara zo mu mutwe.

Abantu bicaye imbere mu ntebe zegamirwa, imbere yabo ku meza harateguye, inyuma ikirango kigaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, tubifashijwemo ni ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cy'u Rwanda RBC.

Urubyiruko ruhuririra ahantu hamwe bisa nkaho bari bari kuganira ku ndwara y'ubuzima ndetse n'imitekerereze, imbere yabo hari ameza agiye ateretseho amakayi ndetse n'ibindi bipapuro, barishimye ubona ko bashimishijwe no kuba bafite ubuzima bwiza ndetse no kuba baganirijwe.

Umugabo wambaye ubucocero ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi mwinshi, usa nabi bisa naho arwaye indwara yo mu mutwe.

Isura yijimye, ibiganza bipfutse mu maso, umusatsi upfutse, isura igaragara ko itishimye bisa nkaho ifite ikibazo cy'imitekerereze.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza, ateretseho amazi ari mu gacupa, ndetse bigaragara ko bari bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umugore uri mu nzu n'abana babiri ahetse umwana, afite agapfukamunwa munsi y'akananwa, afite akanyamuneza mu maso he, aratetse, isafuriya n'ibyo kurya.

Umugore n'umugabo bicaye mu cyumba bicaye ku ntebe, imbere yabo ku meza hateretseho icupa ririmo amazi ndetse imbere yabo ku meza hateretseho terefone ngendanwa ibasha gukusanya amakuru.

Umumama n'umukobwa bicaye baganira bareba ikibazo cy'ubuzima, imbere yabo hateretse agapaniye karimo ibintu bitandukanye, bari kuganira ubona ko bashize amanga baganira ibijyanye n'ubuzima.

Urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bicaye ahantu hamwe, bamwe bambaye impuzankano bicaye ku ntebe bari mu cyumba, batumbiriye imbere bari kuganira ku bintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ubushwambagara usa nabi, mu mbavu ze afitemo udupfunyika dufunzemo ibintu bitandukanye, inyuma ye hariyo imodokari ifite amapine menshi.

Abana bakiri bato bahuriye ahantu hamwe ubona ko bafite akanyamuneza ku maso habo bishimiye ubuvuzi bahabwa ndetse ubibona neza bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe baraganirizwa ndetse bagahabwa inama bityo bakaguma kugira ubuzima bwiza.

Ababyeyi bahuriye ahantu hamwe, bari kwigishwa n'umuntu ubari imbere, akaba ari kwandika ku kibaho, ndetse akaba imbere ye hari amazi ateretse ku meza, bicaye ku ntebe biteze ibitambaro mu mutwe, abo babyeyi.

Ikirango kigaragaza indwara abantu barwara, indwara zo mu buzima, indwara z'imitekerereze ndetse n'izindi ndwara zibasira ubuzima bwa muntu.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ahantu hamwe, umugore uri imbere yabo n'umukobwa bafite imisatsi miremire, umugore ufite indangururamajwi uri kuvuga mu ndangururamajwi usa naho ari gutanga ikiganiro.

Amafoto agaragaza uburyo dukwiye kubana neza, tubane mu mahoro tugire amahoro yo mu mutima bityo tubane n'abandi tugire ubuzima bwiza, tubane n'abagenzi bacu mu mahoro bityo ubuzima bwacu tubashe kuburinda neza.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba bahagaze, inyuma yabo hari intebe bari bicayeho. Ku meza yabo hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'ibitabo basomaga, bambara udupfukamunwa bamwe muri bo abandi bafite imisatsi miremire.

Ikirango kigaragaza umunsi mpuzamahanga wo kuvura indwara zo mu mutwe. Uyu munsi ukaba uba ngarukamwaka mu kwezi kwa cumi, ku itariki icumi. Uyu munsi kandi ukaba uba kugira ngo nabo abarwayi bo mu mutwe bibone ko nabo ari abantu.

Itsinda ry'abantu benshi, bambaye impuzankano, bari mu gikorwa cyo gutera ibiti mu busitani, ibiti biri mu busitani, bivura indwara zitandukanye, binatuma tugira umwuka mwiza.

Abagore batatu n'umugabo umwe bicaye ku ntebe bari kuganira, umugabo bisa nkaho afite ikibazo cy'ubuzima ndetse n'icy'ubwonko bari kumuganiriza bashaka kumugira inama ndetse ubona ko bababajwe no kubona arwaye.

Umubyeyi ufite abana babiri, umwe mukuru n'undi akikiye, imbere ye hari ingemeri irimo ibintu ndetse iteretse hejuru y'inkoko, aricaye ubona ko afite ikibazo gikomeye akeneye kuganirizwa.

ibirango bitandukanye, ikirango cya polisi y'igihugu ndetse n'ikirango cy'igihugu. Ibi kandi bikaba bidufasha kwerekana ubufatanye hagati y'inzego n'izindi kugira ngo tubashe guteza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi wambaye urunigi mu ijosi, yambaye ipantaro n'isengeri yicaye mu ntebe, inyuma ye hari ibiti bihateye arishimye afite akanyamuneza mu maso, afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abagabo n'abagore harimo n'ushinzwe umutekano bahagaze, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko ari ku bitaro bya Kacyiru, aha hantu hatangirwa ubuvuzi bw'ibanze ndetse no kwita ku barwayi.

Umugabo wambaye ubushwambagara ndetse ufite umusatsi mwinshi n'ubware bwinshi, afite ibyo ari kurya mu ntoki ze ndetse ubona ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Uyu mugabo kandi akaba yegereye umuhanda, inyuma ye hari ibiti ndetse n'amapikipiki.

Ababyeyi babiri umugore n'umugabo, bafashe umwana wabo, bamujyanye yambaye ubucocero, bisa n'aho afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Bafite inkoni mu ntoki zabo, umugabo yambaye ishati ifite imifuka ibiri iburyo n'ibumoso, umugore yambaye urunigi mu ijosi.

Umukecuru uri mu zabukuru, wicaye akubye akabero, ari kumwe n'abana bato, abicaye hagati bisa nk'aho ari abuzukuru be, bari kuganira ku buzima ndetse n'imibereho ya muntu.

Ikirango kigaragaza umunsi ngarukamwaka mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, uba ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi buri mwaka, tugire icyizere cy'ubuzima, dufatanyije twese hamwe.

Abantu babiri bari ahantu hamwe, umwe yambaye umupira w'umweru undi yambaye umupira w'ubururu bwijimye, uwambaye umupira w’umweru asa nubabaye cyangwa ufite ibibazo byinshi, uwambaye umupira w'ubururu bwijimye asa nuri kumwumva anashaka kumufasha.

Umugabo ufite ubwanwa, ufite akanyamuneza mu maso he, wambaye ishati ifite ibipesu bitatu, ishati y'ubururu, inyuma ye hari abandi bantu benshi.

Imbaga y'abantu benshi, bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe. Imbere yabo ku meza hateretseho amazi ndetse n'ibikapu. Imbere yabo hari umuntu uri kubaha inyigisho ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore utoboye amatwi utishimye wazinze umunya bisa nkaho afite ikibazo gikomeye mu mutwe ndetse akaba akeneye ubwunganizi.

Ikirango kigaragaza ko turi kumwe kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Iki kirango harimo umugabo wegereye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse bigaragaza ko ishusho y'ejo hazaza tuyifite. Bigaragaza ko na none turi kumwe kugira ngo tubashe kurwanya indwara zo mu mutwe, indwara z'ubuhumekero ndetse n'izindi ndwara zishobora gutuma umuntu yangirika mu mutwe.

Abagore n'umugabo umwe bicaye ahantu, umugore umwe afite indangururamajwi mu ntoki ze, undi mugore yambaye amadarubindi, imbere yabo ku meza hateguweho amazi ndetse hariho na mudasobwa.

Ikirango kigaragaza ibyo dukwiye gukora mu kwirinda no kurinda abana bacu indwara ya virusi ya Kovide cumi n'icyenda, bityo tukagira ubuzima buzira umuze tukarinda abacu natwe twirinda.

Ikirango kitugaragariza ubwonko bw'umuntu cyatugaragariza ubwonko ndetse no kwita ku bwonko bwacu tukabushyiramo ibikwiye tukabukuramo ibidakwiye kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza bw'ubwonko dukomeze twite ku buzima bwacu tuzagira ejo heza hazaza heza.

Icyapa kigaragaza kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi umutwite ndetse n'umuryango muri rusange mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze ndetse no kugira bagire ubuzima bwiza babashe kubaho mu buzima bunejeje.

Umusore ufite igikoresho gikoreshwa kwa muganga mu menyo ye agifatishije amaboko ye yombi ndetse n'intoki ze, yambaye imyenda y'umweru arasa neza, ubona ko yishimiye ko afite ubuvuzi bwiza bw'amenyo, ari kwita ku menyo ye kugira akomeze agire amenyo meza ndetse n'ubuzima buzira umuze.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga gifashwe n'umuntu agifashe mu kiganza cye agifatishije intoki ze agiye kugishyira mu menyo kugira ngo abashe gusukura amenyo ye neza, bigaragara ko kimufasha mu gusukura amenyo akagira amenyo meza abengerana.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga mu kuvura indwara zitandukanye, iki cyumba kikaba cyifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara z'amenyo, ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo, biragaragara muri iki cyumba, harimo intebe, harimo igitanda bakuryamishaho ndetse harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Ibikoresho byo kwa muganga biri mu cyumba, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'amenyo. Harimo intebe, igitanda ndetse n'agasakaza amashusho, kugira ngo tumenye indwara aho iri ndetse n'amenyo arwaye.

Umukobwa ufite umusatsi muremure uri gukora ku maso, amenyo yererana, igikoresho cyo kwa muganga kiri gukora mu menyo, isura izinze umunkanya.

umukobwa ufite utwozamenyo ndetse wambaye isengeri y'igitare witeze igitambaro cy'igitare uri koza amenyo ye kugirango akomeze kugira amenyo afite ubuzima buzira umuze

Abana bambaye impuzankano bicaye mu ishuri, inyuma yabo hari icyifashishwa bandika babahaye ibikoresho byo kwisukura amenyo, bityo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza bw'amenyo birinde kandi barinde bagenzi babo.

Umusore ufite ubwanwa afite umusatsi, arishimye bisa nkaho anezerewe ko bari kumuvura, hirya ye hari ibiganza byambaye uturindantoki ndetse bifite n'igikoresho gikoreshwa kwa muganga.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa mu kuvura abafite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, bifasha mu kwita ku bantu kugira ngo babashe kugira amenyo meza, harimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura igitanda baryamaho n'intebe bicaraho bari kubavura.

Igishushanyo kigaragaza inzasaya uko ari ebyiri urwasaya rwo hasi rufataho amenyo n'urwo hejuru rufashe amenyo bigaragaza ko buri wese akwiye kugira ubuzima bwiza bw'amenyo kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bw'ejo hazaza dukwiye gufata neza amenyo yacu tuyarinda ndetse tuyoza.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane ku byerekeranye n'indwara z'amenyo, iki cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho.

Umusore ufite ubwanwa, ufite umusatsi uri guseka ubona ko afite akanyamuneza mu maso ashimishijwe no kuba afite ubuzima bwiza bw'amenyo, dusukure amenyo yacu tugire ubuzima bwiza bw'amenyo.

Ibikoresho byo kwa muganga, biri mu cyumba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amenyo, ibi bikoresho harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Umusore ufite ubwanwa ukananwa no ku matama akanyamuneza mu masoh igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo gifite mu biganza bye bityo agize ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umusore ufite ubwanwa wambaye amadarubindi, wishimye ko yahawe ubuvuzi bw'amenyo, afite amenyo yererana yambaye umupira w'ingofero, yishimiye ko afite amenyo meza yavuwe neza.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga biri ahantu, ibikoresho bikaba byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo kugira ngo umuntu akomeze kugira amenyo meza ndetse n'ubuvuzi bw'amenyo bukomeze gutera imbere, ibikoresho bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo ndetse no mu kuyagira neza no kuyasukura.

Umusore wishimye ufite ubwanwa, ufite amenyo yererana, ufite umusatsi wifashe mu biganza, yahuje ibiganza imbere ye hari ubukarabiro ari mu cyumba, yicaye ku ntebe bigaragara ko yaje kwivuza indwara yerekeranye n'amenyo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire ufite akoza amenyo mu biganza bye, ari koza amenyo ye ayasukura kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bw'amenyo ndetse n'ubuzima bwe muri rusange bube buhagaze neza.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi, wambaye isengeri ufite igikoresho cyifashishwa mu koza amenyo mu kanwa ke, kugira ngo ukomeze kugira isuku y'amenyo agire ubuzima buzira umuze.

Ibiganza byambaye uturindantoki bifite urwasaya mu ntoki zarwo, n'igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusukura amenyo. Bityo tukagira amenyo meza y'uyu munsi n'ejo hazaza.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ameza, igitanda, intebe, mudasobwa ndetse n'ubukarabiro ndetse harimo n'imitako.

Umugabo ufite ubwanwa, amenyo yererana, ufite igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo ku ntoki ze ari kugishyira mu kanwa, kugira ngo asukure amenyo ye, bityo agire ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umukobwa wambaye impuzankano ufite ikaramu mu ntoki uri kwandika ku rupapuro ruri kumeza, ibikoresho byo kwa muganga yifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara zitandukanye.

Inzobere mu buvuzi bw'amenyo, zambaye amadarubindi n'udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, bifite ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura amenyo, bari kuvura umukobwa ufite imisatsi myinshi, uraramye, wasamye bari kuvura amenyo ye kugira ngo akomeze kugira ubuzima bw'amenyo bwiza.

Umukobwa wasamye ufite agakoresho mu ntoki ze kifashishwa kwa muganga mu gutunganya ndetse no koza amenyo, agafite mu menyo ye ari koza amenyo mu buryo bwiza bwo kugira ngo agire amenyo meza asukuye.

Abana bambaye impuzankano bafite udukoresho twifashishwa mu koza amenyo. Bari koza amenyo yabo mu rwego rwo kugira isuku y'amenyo, tuyarinda kurwara ndetse tugira ubuzima buzira umuze.

Igishushanyo kigaragaza inzasaya ebyiri. Urwasaya rwo hejuru n'urwo hasi, bagaragaza ko dukwiye kwita ku menyo yacu kuko ari ubuzima. Twite ku bice by'umubiri wacu, tugire ubuzima buzira umuze.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, abagabo n'abagore, urubyiruko. Bari kwipima ibiro, uburebure. Ihema ririho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima.

Abagore babiri umwe ufite umusatsi mwinshi, undi ufite umusatsi urimo imvi, wambaye amadarubindi afite ikirahure mu ntoki ze. imbere yabo hari imboga, hateguwe n'imitako, inyuma yabo hari ibikoresho byifashishwa mu gikoni.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, ufashe ibiganza bye byombi abikojeje ku mukecuru ufite imvi mu mutwe, ari kumufasha kugorora ingingo ze kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugore uri mu cyumba kirimo ubukarabiro ndetse kirimo n'ibikoresho yifashisha anywa amazi, nk'ibirahure ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni, afite imiti mu ntoki agiye kuyinywa kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo bari kugenda mu muhanda, umugore uhetse igikapu atengase n'ikindi mu ntoki, umugabo ufite igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu kugorora imitsi ndetse no kurambura ingingo, iruhande rwabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umukobwa n'umugabo uri mu za bukuru, umugabo ufite imvi mu mutwe we ndetse no mu bwanwa yambaye umupira w'igitare ndetse afite agakoresho gakoreshwa kwa muganga mu kaboko ke k'ibumoso, uyu mukobwa akaba ari kumwereka uburyo ki yakora imyitozo ngororamubiri kugira akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umusore wambaye amadarubindi ufite umusatsi n'ubwanwa, ufite ikirango cye mu ijosi kimanuka kikagera mu gatuza, umusaza uri ku meza n'undi mugore ufite imisatsi yerurutse, bari ku meza bagiye gufungura. Inyuma yabo hari abandi batatu bahicaye.

Umuganga ari kumwe n'undi mugabo ubona ko ari kumufasha afite uburwayi ndetse ari kumuha serivisi nziza. Uyu muganga yambaye isaha ku kuboko ndetse mu ruhande rwe ubona ko hari indabo ziteguye.

Umuryango uhuriye ahantu hamwe bari kuganira ku bintu bitandukanye ubona ko bafite akanyamuneza guhura nk'umuryango harimo abana bakiri bato, ababyeyi bakuze, ndetse n'abandi bari mu rungano ndetse aba bantu barishimye, inyuma yabo hari indabo bicaye ahantu hamwe bambaye imyenda itandukanye ariko ubona ko bishimiye kuba bariho kandi bafite ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore mu cyumba, umugore ufite imisatsi miremire, umugabo ufite ubwanwa n'umusatsi uringaniye, ku meza hateretseho ikirarahure na mudasobwa, ari guhabwa ikinini yateze ikiganza.

Umugabo uri mu zabukuru ndetse n'umugore we bafite icupa ririmo imiti gakondo ndetse bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho imiti yifashishwa kwa muganga ndetse na mudasobwa, umugore yambaye amadarubindi.

Umusaza uri mu zabukuru, yambaye amadarubindi, yicaye ku ntebe imbere ye, ku meza hateretseho ikaye afite ikaramu, ari kwandika ibintu bitandukanye.

Abagabo babiri, umwe uri mu zabukuru bari mu muhanda, inyuma yabo hari ibiti bikuze ndetse n'ibyatsi, ku ruhande rwabo hari ubusitani bwabafasha kuruhuka.

Ihuriro ry'imiryango yishimye, abana bishimye, ababyeyi babo bishimye, bashimishijwe no kuba bahuye kandi bafite ubuzima bwiza, inyuma yabo hariyo ibiti ndetse n'indabo.

Ababyeyi bafite akanyamuneza mu maso. Ubona ko bishimye, bafite ibitebo, bari gusarura igihingwa cy'icyayi kugira ngo babone ibibatunga bivuye mu cyayi ndetse bagire ubuzima buzira umuze.

Aba mama batatu bafite ibintu mu ntoki zabo bambaye amadarubindi babiri muri bo bambaye ingofero bari kureba muri telefoni ibintu bitandukanye.

Umugore uri mu za bukuru, imbere ye ku meza hateretse ikirahure kirimo amazi, umukobwa ufite imisatsi miremire, mu kiganza cye harimo umuti, ari guha umukecuru umuti kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo ukiri muto ndetse n'umusaza uri mu za bukuru. Umugabo ukiri muto wambaye agapfukamunwa afashe umusaza ku mugongo bisa nk'aho ari kumusindagiza amutwara hanze, bari kugenda bajya hanze basohokera mu muryango.

Umuryango uhuriye hamwe, abana bato, abari mu rungano, umukobwa n'umuhungu, ndetse n'umusaza n'umukecuru bahuriye hamwe, bisa nkaho bari kuganira kubi bijyanye n'ubuzima, bakaganira bishimye, bafite akanyamuneza ku maso yabo.

Abagore bari mu za bukuru batatu bari imbere n'inyuma yabo hari undi mugabo bigaragara ko bari bavuye mu myitozo ngororamubiri bavuye mu kwiruka ndetse bigaragara ko bakeneye ubuzima buzira umuze.

Umugore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yi'imyitozo umugore yashyize igitambaro mu mutwe, umukobwa afite imisatsi miremir. Inyuma ya bo hari ubusitani bukikijwe n'indabo z'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi harimo n'ibiti.

Umugabo n'umugore, umugabo uri mu zabukuru, ufite imvi mu musatsi no mu bwanwa, wambaye amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, afite telefone igendanwa mu ntoki, imbere yabo hari ikaramu, inyuma yabo hari intebe z'amafoteye bicaramo.

Umugore n'umugabo bari mu za bukuru, umugore ufite imisatsi myinshi, bari gusoma agapapuro kariho amabwiriza y'uburyo wafata imiti neza ukagira ubuzima buzira umuze.

Umugabo n'umugore bafite akanyamuneza ku maso, bambaye imyenda y'imyitozo, bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye amasaha ku kuboko kw'ibumoso, barishimye bari mu myitozo ngororamubiri, kugira bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugore n'umugabo bicaye bafite akanyamuneza mu maso, imbere yabo ku meza bafiteho umukino bari gukina kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, bakangura ubwonko.

Umugore ufite imisatsi miremire uri mu imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi yakunje akabero, amaboko ye ari kuyarambura ayerekeza ku kaguru mu buryo bwo kugira ngo arambure ingingo ze.

Umusore n'inkumi bari guhagurutsa umusaza uri mu zabukuru, bamukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugorora imikaya ndetse n'imitsi kugira ngo agire ubuzima buzira umuze, arambe ndetse akomeze kutubera inzu y'ibitabo.

Umuryango w'abagore babiri n'umwana bafite imisatsi myinshi, umwe afite imisatsi izirikiye hejuru yambaye amadarubindi, umwana usa nkaho atishimye ubona ko afite ikibazo cy'ubuzima.

Umugabo n'umwana bari mu cyumba, umugabo yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, hirya ye hari igiti cy'icyatsi kibisi, umwana ufite umusatsi mwinshi, bose bafite udukinisho mu ntoki, bisa nkaho bari gukora imyitozo ngororamubiri baruhura ubwonko.

Umugabo n'umugore ufite imisatsi miremire, ufite igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gupima no gusuzuma mu ijosi rye n'umugabo ufite igikoresho mu biganza bye, uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima buzira umuze. Afite ubwanwa n'umusatsi birimo imvi.

Umugabo uri mu za bukuru ufite imvi mu mutwe no mu bwanwa, wambaye amadarubindi ufite ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri ari gukora imyitozo ngoramubiri yishimye.

Umugabo wambaye ingofero, agapfukamunwa n'amadarubindi. Afite igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutera urukingo ndetse no gusuzuma indwara. Ari gutera urukingo umusore wambaye agapfukamunwa, wakunje ishati.

Imbonerahamwe igaragaza amategeko uko agenda akurikirana ajyanye n'ubuzima, bishatse kuvuga ko buri wese akwiye gukurikiza amategeko agaragara muri iyi mbonerahamwe kugira ngo agire ubumenyi ku buzima bw'umuntu rusange.

Imbaga y'abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, bari guhabwa amategeko n'amabwiriza bakwiye gukoresha, icyumba cy'inama, akaba ari icyumba cya Iniverisite y'u Rwanda, harimo abera ndetse n'abirabura.

Ikirango kigaragaza ko dukwiye kwita ku ndwara ya kanseri mu Rwanda bityo buri wese akarinda mugenzi we, akarinda ubuzima bwe, bityo tukagira ubuzima buzira umuze bw'uyu munsi n'icyizere cy'ejo hazaza.

Ikirango kigaragaza amahame y'igihugu no kwegera abaturage mu buryo bwo kubaha ubuzima bufite umuze iki kirango kigaragaza ko dukwiye kwirinda virusitera sida ndetse tukabasha no kwegera ibitaro bitwegereye kugira ngo tubashe kuyipimisha.

Icyapa kigaragaza indwara ya diyabete n'uburyo abantu bakwiye gufatamo imiti ndetse n'uburyo bakwiye kuyirinda, bityo bakagumya kugira ubuzima buzira umuze birinda indwara ya diyabete ndetse birinda n'ibiyitera.

Umugore ufite imisatsi miremire, ufite akanyamuneza mu maso. Amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, asobanuye ingaruka z'ibidukikije muri rusange; nko kuyungurura umwuka, bityo tukagira ubuzima bwiza, duhumeka umwuka uyunguruye mwiza.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye hamwe, bamwe bicaye abandi bahagaze, bari gufata ifoto y'urwibutso, bisa nk'aho baganiraga ku kibazo cy'ubuzima, bazamura imitekerereze ndetse bafata n'imyanzuro.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama barongojwe imbere n'abantu babicaye imbere, inyuma y'abicaye imbere hari ikirango kigaragaza inama iyo ari yo ndetse n'uburyo bwo kwirinda mu buzima.

Ikirango kigaragaza ko dukwiye gufata amasomo ku bijyanye n'imibonano, ushaka kubisoma neza wareba igitabo cyo mu mashuri yisumbuye cy'umwarimu kugira ngo ugire ubumenyi ku bijyanye no gukora imibonano.

Umugabo uhagaze imbere, ufite ubwanwa, wambaye amadarubindi, ufite inyakiramajwi imbere ye ku meza. Imbere ye hari agakururamashusho. Intebe zifite ameza imbere yazo ariho indangururamajwi.

Amacupa afunzemo inkingo zifashishwa mu gukingira indwara iterwa n'inkende, bityo tukagira ubuzima buzira umuze ndetse tukagira ubudahangarwa.

Imbaga y'abantu benshi abagore n'abagabo abakobwa n'abahungu bahuriye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza ndetse n'intebe, inyuma hari ikirango kigaragaza ko ari abayobozi b'abagore ku isi hose.

Abagore batatu bambaye impuzankano, bisa nk'aho ari abihayimana, bambaye amadarubindi ku maso yabo ndetse bipfurebye mu mutwe, bari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu ndetse bari kuganira ubona ko bishimye, inyuma y'abo hari ibirango bya Minisiteri y'Ubuzima.

Ikirango kigaragaza amakuru agezweho. Guterwa urukingo byimuwe. Umwana uri guterwa urukingo n'uwabihuguriwe kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Abagore bambaye udupfukamunwa bambaye imyenda ifasha abantu, bisa naho batanga serivisi ku bantu zijyanye n'ubuzima bityo bakagira ubuzima buzira umuze, ndetse n'ikirango kigaragaza icyo dukwiye gukora kugira twirindade covide cumi n'icyenda, ingamba zikwiye gufatwa kugira dukomeze kwirinda.

Abagabo babiri umwera n'umwirabura bicaye imbere y'abantu benshi, imbere yabo ku meza hatetseho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi bisa nkaho bari kuganira, bari kuganira ku cyorezo cyari cyateye isi cya maribaga.

Ikirango kigaragaza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwizihiza ibidukikije, uba ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda buri mwaka, nta bidukikije sindiho nturiho, turinde ibidukikije tugire ubuzima buzira umuze.

Ikirango kiriho umwana w'uruhinja umaze iminsi mike avutse, kigaragaza ko isi yose ikwiye kwiga ku kintu cy'ubuzima. Bityo umwana akabaho atekanye, akagira ubuzima bwiza guhera akivuka kugeza akuze.

Ikirango kigaragaza ubwirinzi, ibishushanyo bibiri by'abantu. Umwe yambaye agapfukamunwa na mugenzi we akambaye, ariko umutera urukingo. Gufata urukingo rwa covidi cumi n'icyenda ni ukwirinda, ndetse n'inzira yo kubaka uburinzi bw'umubiri wawe.

Ikirango cyerekana kwiga dufatanyije, kwigisha abana ndetse n'abakuze, ku ndwara ndetse na virusi itera SIDA, kugira babashe kuyirinda bityo bagire ubuzima bumeze neza, ubuzima buzira umuze.

Umukobwa ufite agapfukamunwa munsi y'akananwa, ufite igikoresho gikoreshwa kwa muganga mu ijosi rye, wafunze igipfunsi ufite akanozasuku mu mutwe we, ubona ko afite akanyamuneza.

Ikirango kitwereka ibyo dukwiye gukora mu gihe tubonye umuntu urwaye indwara ya coronavirus cumi ni'icyenda iki gihe tugomba gukora mu bwa mbere tukamutabariza batwerekaho umuriro aho ugomba kubawu uri ndetse badushishikariza ko dukwiye gufata inkingo.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu kuvura ndetse no gusakaza amashusho. Harimo ibitanda, imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, ibi bikoresho kandi bikaba bidufasha mu kuvura abarwayi, iki cyumba kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye biteretse ku meza.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga. Intebe, ameza, mudasobwa n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri. Bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Inyubako yubatse ifite ibyumba byinshi, ku bikuta byaho hagiye hariho ibishushanyo, inyubako ifite ibyumba bigiye biriho ibirango ndetse n'ibyumba icyo bikora.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga ibitanda, intebe ndetse na za mudasobwa, iki cyumba kandi kirimo ibikoresho byifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara z'abaje bagana kwa muganga.

Icyumba kirimo umugore n'umwana w'umukobwa. Umugore yambaye agapfukamunwa ufite igikoresho cyo kwa muganga mu ijosi rye. Nyuma ye hari akabati karimo ibikoresho n'imiti byo kwa muganga. Byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga. Ibikoresho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ibikoresho harimo; ibitanda, ibikoresho binanura imitsi n'ibindi byinshi.

Icyumba cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze twirinda indwara ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri, harimo nko gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka guterura ndetse no kurambura imitsi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byo kwa muganga, imiti, amadarubindi n'ibindi bikoresho, irimo mudasobwa, intebe zo kwicaraho ndetse n'abatanga serivisi.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa igaragaza ibitaro bya Shyira ndetse bikaba ari ibitaro by'akarere, ibi bitaro bikaba byifashishwa mu kuvura abantu batandukanye indwara zitandukanye.

Abakobwa n'abahungu bari mu nyubako, inyubako ikaba irimo ibikoresho byo kwa muganga, bambaye impuzankano, imbere yabo ku meza hariho ibikoresho bikoreshwa kwa muganga nk'imiti n'ibindi bikoresho, bambaye uturindantoki bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ibikoresho byo kwa muganga.

Inzu yubatswe mu buryo bw'amagorofa yakira abantu mu bijyanye no kubavura mu buvuzi ndetse turabonamo n'abaganga bari kuvura abantu mu byumba bigiye bitandukanye, harimo n'abategereje serivisi bari hanze y'igorofa ribanza.

Inyubako yagenewe ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi babyara, ifite ubusitani buteyemo ibyatsi, izengurukijwe inkingi z'ibyuma ndetse ifite amabati y'ubururu.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga intebe, igitanda, ameza, mudasobwa ndetse n'ubukarabiro mu rwego rwo kugira ngo twirinde ndetse tugire ubuzima buzira umuze.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda, ameza ndetse n'inzitiramibu. Byifashishwa n'abarwayi, baje kurwarira kwa muganga. Bityo bakabarinda kurwara izindi ndwara, ahubwo bakabavura izo baje bafite.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa, ibiti bikikije iyo nyubako, ubusitani, inyubako nziza, umuhanda werekeza ku nyubako.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bicaye ku rukuta bategereje serivisi zitangirwa kwa muganga, imbere yabo hari urukuta ndetse rutatsemo indabo, ndetse ruteyemo n'igiti, abo bantu bakaba bategereje serivisi zitangirwa kwa muganga.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa agiye agerekeranye. Hirya yaho hari ibiti ndetse n'ubusitani, yubakishijwe mu ibara ry'umweru.

Abakobwa babiri n'umuhungu umwe bambaye impuzankano ndetse n'uturindantoki, imbere yabo hari icupa ririmo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura no gupima indwara ndetse n'uturahuzamuriro.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa ifite ikirango kigaragaza ko ari ikigonderabuzima cya Kanyinya. Iyi nyubako hirya yaho hari ibendera ry'igihugu ndetse ifite ubusitani burimo n'indabo.

Inzu yifashishwa mu gucuruza imiti idufasha kugira ubuzima bwiza tugafata iyo miti twarwaye cyangwa se twumva tutameze neza mu mubiri bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Inyubako yifashishwa mu kwakira abarwayi, ifite ubusitani mbere yaho hateyeho indabo ndetse ifite n'utuyira dutandukanye tujyana abantu mu byumba bitandukanye mu guhabwa serivisi zitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga havurwa hanitabwaho abarwayi. Ku rukuta hariho igishushanyo kigaragaza ijisho, imboni yaryo ndetse n'ibindi bice by'ijisho.

Icyumba giteguwe neza, icyumba cyo kwa muganga aho bakirira abarwayi ndetse n'indembe. Tuhasanga ibitanda bidufasha mu kwakira abarwayi. Ibi bitanda bikaba byifashishwa kwa muganga mu kwakira abarwayi kugira babone uko babitaho neza. Harimo kandi n'ibindi bintu nk'akabati kadufasha mu kubika ibikoresho by'abarwayi.

Inyubako icururizwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyi nyubako irimo imiti itandukanye ndetse ifite n'imiryango itandukanye, iyi miti kandi yifashishwa mu kuvura indwara zo mu buzima.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuvura abarwayi no kubitaho, iki cyumba kirimo imiti itandukanye n'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, harimo ibyumba bibiri igifite umuryango wa mbere n'uwa kabiri.

Ahacururizwa imiti yita ku buzima turahabona utwamamazamyambaro baba bambitse imyambaro ku gihe tuyamamaza tuhabona n'indorerwamo z'imodokari kugira ngo buri wese ugezeze ahabone neza.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu gusuzuma no kureba indwara zugarije umubiri w'umurwayi, iki gikoresho cyifashishwa ahanini mu kureba indwara z'imbere mu mubiri, harimo kureba uko ubwonko bwawe bukora ndetse no kureba ibihaha ndetse n'izindi ndwara z'imbere.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara zitandukanye bityo tukamenya ibyo turwaye tukivuza tugakira tukagira ubuzima buzira umuze.

Ababyeyi n'abafashamyumvire mu kuzamura imibereho y'ababyeyi n'abana babo, bari ahantu hamwe baje gupimisha abana bakiri munsi y'imyaka itanu, bapima ibiro bakoresheje umunzani.

Ikigo gitanga ubuvuzi ku bantu bose, inzu zubatse mu buryo bw'amagorofa, imbere y'izo nzu hariyo ibinyabiziga nk'imodokari, hari ubusitani bwiza burimo ibiti bitandukanye, ndetse n'ibyapa biyobora abagenzi. Harimo ibendera ry'igihugu, ndetse n'inzira zitandukanye ziri kujyana abagenzi gushaka serivisi zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe n'ameza ifite ikirango kigaragaza ko yagenewe ubushakashatsi, bityo tukamenya indwara ibyorezo byibasiye isi.

Inyubako yifashishwa mu gusuzuma ndetse no gupima ibizamini byatanzwe n'abarwayi, bityo bakamenya icyo barwaye, bagahabwa imiti ndetse bakagirwa n'inama, bakagira ubuzima buzira umuze ubu n'iteka ryose.

Icyumba kirimo umugabo wambaye agapfukamunwa wambaye n'uturindantoki, afite icupa ririmo umuti uvura indwara, ukoreshwa kwa muganga, iki cyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima no gusuzuma, harimo mudasobwa n'intebe yicaraho.

Inyubako iteguranye ubuhanga igaragara mo hagati mu cyumba, iyi nyubako kandi ikaba iteguriwe abarwayi kugira ngo babashe kuvurwa bakire, iyi nyubako idufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byo kwa muganga n'abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo yambaye amadarubindi, bari kureba igikoresho cyo kwa muganga gisakaza amashusho.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza iriho ikirango cy'afurika iruhande rw'iyo nyubako hariho ubusitani buteyemo indabo zitandukanye ndetse harimo n'amatara.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo igitanda, intebe ndetse n'ameza n'ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Inyubako zigaragara mu buryo bubiri, hari inyubako iri ruguru n'inyubako iri hepfo zitandukanye, hagati yazo harimo ikigega, izo nyubako zifite ubusitani, ubusitani bukaba bukikijwe n'indabo zitandukanye iz'umuhondo n'iz'icyatsi kibisi.

Inyubako yubatse mu buryo bwamagorofa, imbere yayo hariyo ibinyabiziga, imodokari, hirya yaho hari igiti, ndetse imbere y'iyo nyubako hari umutaka.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa, ikikijwe n'inkingi z'ibyuma. Hakaba harimo jaride ndetse n'ibiti ku ruhande byifashishwa mu kuzana umwuka mwiza muri iyo nyubako. Ikaba ifite n'ibirango biranga inyubako icyo ikora.

Inyubako yifashishwa mu kurwanya indwara ya kanseri, nk'uko bigaragara ku kirango hejuru, inyubako nkuru y'u Rwanda yifashishwa mu kurwanya kanseri, ikikijwe n'indabo, ibiti n'ibyatsi.

Inyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ibikoresho byifashishwa mu guterura n'ibindi byifashishwa mu kurambura imitsi.

Icyumba cyifashishwa mu kwakira abarwayi basuzuma bareba uko ubuzima bwabo buhagaze, kirimo ibikoresho byo kwa muganga abarwayi bifashisha ndetse n'ibyo abaganga bifashisha basuzuma abarwayi.

Ibikoresho biri ahantu hamwe mu cyumba, iki cyumba kikaba cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byifashishwa mu guterura ndetse no kurambura imitsi, bikaba bidufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, ibikoresho harimo imiti, mudasobwa, ibyifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Icyumba kirimo intebe, intebe abantu bicaraho bategereje serivisi, imbere yaho hari ameza, ameza ariho ururabo ruri mu ivaze ndetse hari n'abantu bategereje serivisi hari n'abari kuzitanga.

Icyumba gikoreshwa mu buvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye; intebe, akabati ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa yifashishwa mu buvuzi bwo kwa muganga.

Abantu bicaye mu ntebe ku ruhande rwabo hagiye hari amacupa y'amazi, bambaye impuzankano bari mu cyumba bose bahuriyemo bareba imbere basa nkaho batumbiriye ikintu.

Inyubako yagenewe gucuruza imiti yo kwa muganga yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bityo tukagira ubuzima bwiza buhoraho ndetse tukabasha kubaho igihe kirekire twivuza.

Inzu yubatse mu buryo bw'amagorofa yifashishwa mu kuvura abarwayi ikaba ifite ubusitani mu mpande zayo zose buteyemo ibiti ndetse hakaba ariho n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye harimo igitanda ndetse harimo n'ibindi byuma bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma no kureba indwara z'umurwayi, barebamo kandi ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa byifashishwa mu gusuzuma neza.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abarwayi babapima bareba uko bahagaze bamenya indwara barwaye kugira ngo bazikurikiranweho kandi bakomeze kuvurwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, intebe, igitanda mudasobwa, indobo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukusanya imyanda n'uturahuzamuriro.

Inyubako y'ivuriro yubatse mu buryo bw'amagorofa, ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma ndetse n'urukuta rukozwe neza, mo imbere harimo ubusitani buteyemo ibiti n'ibyatsi ndetse n'umukindo.

Icyumba giteguyewe neza kirimo ibikoresho byo kwa muganga. Ibikoresho harimo intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga. Ku nkuta z'iki cyumba hariho ibishushanyo bitandukanye.

Icyumba giteguye neza giteguriwe abarwayi, ndetse n'abaganga babitaho. Iki cyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, imiti yifashishwa ivura abarwayi ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho igihe abaganga baje kubavura.

Inyubako irimo ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Intebe, intebe zicarirwa iyo uri kuvurwa. Ibikoresho byo kwa muganga. Ameza ateretseho mudasobwa.

Icyumba kiryamyemo umukobwa ufite imisatsi myinshi, kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura no gusuzuma ndetse no gupima indwara zitandukanye.

Inyubako zitandukanye imwe yubatse mu buryo bw'amagorofa indi yubatse mu buryo butandukanye, inyubako zikaba zikikijwe n'ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibindi biti.

Inyubako igenewe kwakira abarwayi ifite ubusitani bukikijwe n'indabo, ifite icyapa kiyobora abantu, ifite ibigega bifata amazi.

Inyubako yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bidufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho ngaho dusangamo ibikoresho bidufasha mu kwiruka, mu guterura ndetse n'ibidufasha kunanura imikaya kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako yo kwa muganga yifashishwa mu kwakira abarwayi n'abarwaza kugira ngo bakurikirane ubuzima bw'umurwayi. Mu ruhande harimo indabo zigiye zikikije iyo nyubako.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa ikikijwe n'inkingi z'ibyuma, inyuma y'izo nkingi z'ibyuma hariyo imodokari ndetse n'abantu bari kugana iyo nyubako bambaye impuzankano.

Inyubako ifite ikirango cyerekana ko hari ahatangirwa serivisi z'ubuzima, hanze y'inyubako hariyo ibinyabiziga, imodokari ndetse hariho ibirango bigaragaza kwitanga dutanga amaraso.

Icyumba kirimo ibikoresho byagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, iki cyumba giteguye neza kirimo ibikoresho bitandukanye intebe bicaraho ndetse n'ibikoresho bidufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri harimo kwiruka, kunanura imitsi ndetse no guterura kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kwita ku barwayi harimo ibitanda, harimo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima indwara zitandukanye ku murwayi.

Icyumba giteguwe neza kirimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga. Ibi bikoresho bikaba bikoreshwa mu kwita ku barwayi ndetse no kubavura, kubasuzuma ndetse no kumenya ibyo barwaye. Ibi bikoresho bikaba bidufasha mu kwita ku barwayi, bikaba bikoreshwa kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga iteguwe neza iri mo intebe z'amafotoye, irimo n'ameza ndetse irimo n'imitako, ndetse ku gikuta harashushanyije, hashushanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa. Ifite ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti. Bikaba bikikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru bagenda bagana iyo nyubako bashaka serivisi.

Inzu yubatse mu buryo bw'igorofa, ifite ikirango kigaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, imbere harimo abantu baje gushaka serivisi ndetse inyuma yayo ifite indabo ziyizengurutse.

Amaguru abiri. Ukuboko kumwe. Amaguru, kumwe guhinnye ukundi kuriho igikoresho cyo kwa muganga, guseguye ndetse kuriho igikoresho gifasha mu kugabanya uburibwe.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda y'imyitozo, akaboko ke k'ibumoso gafashe munsi y'ikirenge ndetse ak'iburyo gafashe ku mugongo bigaragara ko ari kugorora ingingo ze mu myitozo ngororamubiri.

Imboga n'imbuto ndetse n'ibinyobwa biribwa bikananyobwa iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agume agire ubuzima buzira umuze ndetse agire ubuzima n'icyizere cy'ejo hazaza.

Imiti yifashishwa n'umuntu wagize ikibazo mu myitozo ngororamubiri iyi miti kandi ikaba ifasha mu kugabanya uburibwe ndetse no gutuma agira ubuzima bwiza ikagira n'icyizere cy'ejo hazaza iyi miti yifashishwa kugira ngo buri wese akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse nagire ikibazo mu myitozo ngororamubiri aze gukira vuba.

Umusore ufite ubwanwa, ufite icupa mu ntoki, uri kunywa ikinyobwa kiri mu icupa, yambaye isaha kuboko ke k'iburyo, yambaye imyenda y'imyitozo.

Abantu babiri bambaye imyenda y'imyitozo, umwe yambaye uturindantoki, undi ari kumushyiraho imiti mu kiganza kugira ngo ataza gukomereka, amufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo uryamye hasi uri mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri wafashe umugozi akazirika ku kaguru ke k'iburyo akaba ari gukora ananura imitsi y'akaguru ke.

Umukobwa wambaye uturindantoki wambaye agapfukamunwa ufite igikoresho gikoreshwa kwa muganga mu ijosi rye, imbere ye ku meza hateretse ikayi ndetse na mudasobwa bisa n'aho ari kuyirebamo hari amakuru ari gukuramo.

Umusore wicaye ufite isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso afatisha ukuboko kwe kw'ibumoso, ikiganza cye gifashe munsi y'ikirenge cy'akaguru k'ibumoso, umusore akaba ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibirango bigaragaza uburyo bwiza bwo gutangamo ubutabazi bw'ibanze. Uburyo bwiza bwo gutekereza neza, ndetse n'uburyo bwiza bwo kurekera ahongaho gukora ibidakwiye. Ibi bishushanyo bitugaragariza ko iyo ukurikije amategeko ubaho ubuzima bwiza.

Umugabo ufite imisatsi yazirikiye inyuma, afite ubwanwa yambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, ari mu myitozo ngororamubiri arambuye amaboko y'imbere akora imyitozo kugira ngo agorore imitsi.

Umugabo ufite icupa rye mu ntoki, ufite icyo kunywa ari kukinywa, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri ari kwita ku buzima bwe kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo uhagaze uri kunywa ikinyobwa yambaye imyenda y'imikino, ndetse afite igikoresho mu ijosi cyifashishwa mu kumva umuziki.

Umusore ufite ubwoya ku maboko. Ufite igikoresho cyo kwa muganga, ukuboko kwe ku iburyo. Gifatishijweho n'akaboko k'ibumoso. Ari kugabanya ububabare afite mu kaboko ke k'iburyo.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupakira ndetse no gutwara imiti, iyo umuntu agiye ku rugendo, bityo kugira ngo abashe kwirinda ndetse no guteganyiriza igihe habaye ikibazo runaka nk'impanuka ndetse no kuvunika.

Abantu babiri bari mu cyumba kimwe umwe aryamye ku gitanda cyifashishwa kwa muganga undi ari kumugorora amufasha kunanura imitsi bisa naho yari yagize ikibazo mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa kugira dukomeze kugira ubuzima buzira umuze iyo tuvuye mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse tuzagire icyizere cyo kubaho n'ejo hazaza.

Icupa rifunzemo amazi meza, adufasha kugira ubuzima bwiza, cyane cyane iyo tuvuye mu myitozo ngororamubiri, dutegetswe kuyanywa kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza, bityo tugire icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Umusore n'umugabo, umugabo ugaragara nk'umuganga, ari kwita ku musore wari uri mu myitozo ngororamubiri yo gukina umupira w'amaguru, akaba ari kumuvura bigaragara ko yagize ikibazo mu ivi igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, mu gihe muri mu myitozo ngororamubiri. Turasangamo imipira ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha kugira ngo umuntu agume agire ubuzima buzira umuze akora imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Umwe yambaye umupira w'umutuku, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye n'imyenda y'imyitozo, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kumva yagorora imitsi ndetse imitsi ye nirambuka agire ubuzima bwiza.

Imiti yifashishwa mu gihe wagize imvune. Iyi miti kandi yifashishwa mu gihe wakoraga imyitozo ngororamubiri, ugahura n'imvune, bakaza kugufasha kuyikuzirikaho. Igiramo imiti myinshi bikoranye. Iyo bayikuziritse igenda igabanya uburibwe, bityo ukagira ubuzima bwiza ndetse ukabasha gukira vuba.

Umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye imyenda y'imyitozo. Imbere ye hari icupa ririmo icyo kunywa, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kurambura ingingo ze, bityo agire ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byo kwa muganga bizwi nk'imiti yifashishwa ku muntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri akaza kugiramo ikibazo akavunika cyangwa se agatsikira. Harimo imiti avurishwa, harimo iyo anywa, iyo bamusiga ndetse n'iyo yizirikaho. Hari imiti myinshi yifashishwa umuntu igihe yakoraga siporo ngororamubiri akagira ikibazo.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga, mu gusuzuma no kugenzura indwara z'umubiri, harimo ibihaha, ubwonko, kureba uko bisigaye bikora ndetse n'ikibazo bifite.

Ikirango kitwereka ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri, bitugabanyiriza ibinure ndetse bikatugabanyiriza umunaniro, byongera imbaraga zo gukora igogora bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Ni igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gupima indwara no gusuzuma indwara ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, umupira w'amaguru ndetse n'inkweto bifashisha bakina umupira w'amaguru.

Umusore wambaye imyenda y'imyitozo, uri mu myitozo ngororamubiri, ariho agorora neza ivi rye, ashyiramo ingasire y'ivi mu rutereko rwayo. Yambaye umupira w'amaboko maremare, ikabutura ndetse n'inkweto z'imyitozo. Afashije ibiganza bye ku ivi.

Umusore wambaye umwambaro w'umwitozo, ufite icupa mu ntoki, ufite ubwanwa ari kunywa ibiri kuva muri iryo cupa bityo kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa mu guterura, cyane cyane cyifashishwa iyo hari uguye igihumure, bagiye kumuterura bamugishyikiriza aho agomba kwakirirwa n'aho agomba kwitabwaho.

Umugabo uri muri siporo uri kunanura imitsi, wambaye isengeri, afite ubwanwa, ari ahantu yasobekeranyije amaboko, ari kunanura imitsi y'amaboko ye ndetse n'imikaya.

Umukobwa wambaye utujyanamajwi mu matwi, afite icupa ririmo icyo kunywa, yambaye umupira w'umutuku, afite imisatsi miremire, asa nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Imiti inyobwa n'umuntu wagize ikibazo igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri, harimo imiti anywa, iyo yisiga ndetse n'ibitambaro bamuzirika kugira ngo uburibwe burusheho kugabanuka bityo agire ubuzima buzira umuze.

Umusore ufite icupa ririmo icyo kunywa. Afite igitambaro cye mu ijosi. Ndetse yambaye imyenda yifashashwa mu myitozo ngororamubiri. Bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umusore n'umukobwa bari mu cyumba kimwe kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, umukobwa yambaye uturindantoki ndetse afite imisatsi miremire, umuhungu ari gukoresha ibikoresho byifashishwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Imiti yifashishwa na buri umwe wese ukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kugira imibereho myiza n'ubuzima buzira umuze. Bityo iyi miti ikajya ituma ahorana itoto ndetse akaguma akora siporo neza bituma agira ubuzima bwiza bw'uyu munsi n'ejo hazaza.

Umukobwa wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto, ufatishije ibiganza bye ku mavi, bisa naho ari kugorora ingingo kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuvura abahuye n'imvune igihe bari bari mu myitozo ngororamubiri, bityo bakagira ubuzima bwiza ndetse bakagira n'icyizere cy'ejo hazaza.

Igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa mu gupima no gusuzuma indwara nka kanseri zo mu bwoko bwose, indwara z'ubwonko n'izindi ndwara, bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore wambaye imyenda y'imyitozo, uri mu cyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho harimo ibikoresho byo guterura, byifashishwa mu kurambura imitsi ndetse n'imikaya.

Umusore ufite ubwanwa wambaye umupira w'imyitozo ufite icupa mu kaboko ke k'iburyo, ari kunywa ibiri kuva mu icupa kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byifashishwa n'umuntu ugiye mu myitozo ngororamubiri, mu rwego rwo kwirinda imvune za hato na hato. Ibi bikoresho ndetse harimo n'imiti yifashishwa kugira ngo umuntu abashe kwivura, igihe ahuye n'ikibazo cy'imvune ari mu myitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa igihe umuntu agize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri ari gukina se bakakimufasha bakamuteruraho, bakamujyana kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Umusore wambaye imyenda y'imyitozo n'inkweto z'imyitozo. Ari mu myitozo agorora ingingo ze. Ari mu myitozo ngororamubiri yo kugorora ingingo z'umubiri we.

Imboga n'imbuto ndetse n'ibikoresho twifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, bityo tukagira ubuzima bwiza turya imbuto ndetse dukora n'imyitozo ngororamubiri, dore ko imbuto ari nziza ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore n'umwana mu cyumba kimwe, aho umugore afite ibikoresho byo kwa muganga, arimo amurikisha ibikoresho byo kwa muganga ku mwana kugira arebe ikibazo afite, ibikoresho bindi byo kwa muganga birambitse ku meza, inyuma ye hari andi meza ateretseho impapuro, ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga yicaye ku ntebe ndetse n'umwana yicaye ku ntebe.

Abantu benshi bahuriye hamwe baje mu myitozo rusange kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze bakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore n'umukobwa bari mu cyumba, umusore afite ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, umukobwa ari kumufasha mu buryo bwo kumubwiriza ibyo akwiye gukora.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba bari kuganira, abambaye impuzankano, iki cyumba kikaba ari icyumba gitangirwamo ubufasha ku bagize imvune igihe barimo bari mu imyitozo ngororamubiri.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, yahuriyemo n'ikibazo cy'imvune, ari guhabwa serivisi kwa muganga. Yambaye urukweto rumwe mu kaguru k'ibumoso ndetse n'ishesheti. Bari kumuha serivisi bamushemba, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore n'umukobwa bari ahantu hamwe begamanyeho bose bafite amacupa mu ntoki arimo icyo kunywa bisa naho bari kukinywa, bavuye mu myitozo ngororamubiri ubona ko bishimiye kunywa icyo kinyobwa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa mu guterura no guha ubufasha ufite ikibazo, yaguye igihumure se cyangwa afite izindi ndwara, abantu babiri, bafite igikoresho cyo kwa muganga, bateruye umuntu bari kumuha ubufasha kugira bamwegereze ubuvuzi.

Igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri kirinda urugingo rw'ivi kuvunika cyangwa se guhura n'imvune, iki gikoresho cyifashishwa mu rwego rwo kurinda imvune.

Ku musore wicaye ahantu ufite igikoresho cyo kwa muganga ku kaboko ke k'ibuburyo bisa n'aho yagize imvune mu gihe yarari mu myitozo ngororamubiri arimo akikandishaho muburyo bwo kugira ngo agabanye uburibwe ari kumva iki gikoresho kidufasha mu kugabanya uburibwe igihe wahuye n'imvune.

Igikoresho kibitsemo imiti ivura ikanasuzuma indwara, cyane cyane iyo umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri, bityo tukagira ubuzima buzira umuze twivura tunisuzuma.

Umukobwa ufite umusatsi wambaye imyenda y'imyitozo, ari kugorora ingingo ze afata akaboko agakoza mu mugongo kugira ngo agume agorore ingingo ze agire ubuzima buzira umuze.

Umukobwa ufite umusatsi wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, wakubye akabero, uri gukora imyitozo ngororamubiri, arambura ingingo ze n'imitsi kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Ikirango kigaragaza umusore wavuye mu myitozo ngororamubiri, akagira ikibazo cy'imvune, tugire urugendo rwo kujya muri siporo twivuza ndetse tunanura imitsi yacu bityo tugire ubuzima buzira umuze.

Umugabo ufite igikoresho cyo kwa muganga mu kaboko ke k'iburyo, agikojeje ku ivi rye mu rwego rwo kugabanya ububabare bw'imvune bisa nk'aho yakoze imyitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo k'imvune, arimo yikanda ku ivi kugira ngo agabanye uburibwe.

Umusore wicaye ufite ubwanwa n'icupa mu kiganza cye cy'iburyo, ririmo icyo kunywa bisa n'aho avuye mu myitozo ngororamubiri akeneye ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi n'umwana bari mu cyumba, ubona ko umubyeyi yishimye n'umwana we yishimye, bakaba bari mu cyumba gitangirwamo ubuvuzi. Iki cyumba kikaba kirimo abarwayi batandukanye harimo n'inzitiramibu.

Umukobwa wambaye isengeri ufite imisatsi yaziritse uri kunywa ikinyobwa, afite igikoresho gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ku kaboko ke k'ibumoso, yambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu kugorora imitsi no kuyirambura kandi bikaba byifashishwa kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze.

Abagabo batatu bari ahantu hamwe, umwe uri hagati ari gukora imyitozo ngororamubiri, bisa naho aho yagize ikibazo, abandi bamuteze amatwi bashaka kumwitaho ngo bamufashe.

Abantu bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano, bari kwerekwa, ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, ibyo bakwiye kujya bakora, bigaragara ko bari guhabwa amahugurwa, kugira ngo bazabashe kwakira abarwayi neza, ndetse babahe serivisi zibagenza.

Ibishushanyo by'ibiganza bigaragaza intoki uko ari eshanu. Ibi bishushanyo bikaba bidufasha kureba uburyo twakwirinda igihe turi mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'uburyo twakwivura igihe twahuye n'ikibazo turi mu myitozo ngororamubiri.

Ikirango cy'akaguru kigaragaza ukuntu umuntu ukwiye kujya mu myitozo ngororamubiri akwiye kugenda yambaye, yikwije, ku buryo atahura n'ikibazo cy'imvune ku kaguru ke, iki kirango kigaragaza ko buri wese akwiye kugenda yambaye neza iyo agiye mu myitozo ngororamubiri, inkweto nziza zagenewe imyitozo ngororamubiri ndetse n'amasogisi.

Umusore wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, wipfutse ahantu hose. Umugore ufite imisatsi miremire, wambaye agapfukamunwa. Urimo uha ubufasha umusore wagize ikibazo igihe yaraye mu myitozo ngororamubiri. Bari mu kibuga.

Ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye, ibi bikoresho harimo ibyifashishwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri, no gusuzuma aho ubuzima bw'umuntu buhagaze.

Ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo abahagana bagire ubuzima buzira umuze kandi bakore imyitozo ngororamubiri kugirango bakomeze kugira icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Umusore ufite umusatsi muke uringaniye, ufite utugozi mu matwi tudufasha kumva muzika, ari kunywa amazi ndetse ku kaboko ke k'iburyo ari kunywesha amazi afiteho agakomo ndetse yambaye n'umwenda ubonerana cyane twakita igitare.

Imiti yo kwa muganga yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uturindantoki, amacupa afunzemo imiti, idufasha kuvura indwara zitandukanye igihe twahuye n'ibibazo turi mu myitozo ngororamubiri, bityo tukabasha gukira vuba ndetse bikatugabanyiriza uburibwe.

Umukobwa wambaye imyenda y'imyito: Isengeri ndetse n'ipantaro y'imyitozo n'inkweto z'imyitozo, afashe amaboko ye ayakojeje ku kirenge, akubye akabero.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abagize ikibazo cy'imvune igihe bari bari mu myitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu kuvura ndetse no kugabanya ububabare ku bagize imvune bari mu myitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iki gikoresho cyifashishwa mu kurinda umutwe ndetse n'ibice byawo, mu rwego rwo kugira ngo igihe wakoze impanuka, utaza gukomereka ku mutwe, iki gikoresho kidufasha mu kuturinda, ndetse kigakomeza ubuzima bwacu.

Umukobwa wicaye ku gitanda, yapfutse munsi y'ivi. Bisa n'aho yahuye n'ikibazo igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri. Akaba ari kwivura, akoresheje ibikoresho byo kwa muganga bigabanya uburibwe.

Abantu babiri bari mu cyumba icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, igitanda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kugabanya imvune igihe umuntu yari ari mu myitozo ngororamubiri agahuriramo n'imvune, ibyo bikoresho bikaba bigabanya uburibwe.

Umugabo ufite igikoresho cyo kwa muganga mu ijosi rye, wambaye umwambaro ukoreshwa mu buvuzi, ari gufata akaguru akora ku ivi yumva ahari ububabare kugira ngo abashe kuvura uwahuye n'ikibazo cy'impanuka n'imvune, mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Ikirango kigaragaza aho amarushanwa yo kwiruka ageze. Iki kirango kikaba cyifashishwa mu kureba amarushanwa. Ndetse n'aho ageze, ikirango cyifashishwa mu marushanwa yo kwiruka.

Igiti cy'umuti gakondo gifite amababi y'icyatsi kibisi giteye hagati y'inzu ndetse n'urukuta cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye hari iz'umubiri umutwe ndetse niz'uruhu.

Imiti gakondo itandukanye. Ifasha kuvura indwara z'umubiri, iz'uruhu ndetse n'izindi. Ikaba idufasha kugira ubuzima buzira umuze, bityo tukabaho neza.

Ukuboko gufashe igikoresho gipfunyikwamo umuti gakondo. Ukundi gufashe uburoso bwifashishwa mu koza amenyo. Buri gushyirirwaho umuti gakondo wifashishwa mu koza amenyo bityo tukagira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Imiti gakondo irundanyirije ahantu hamwe. Yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Hari isekuru ndetse n'umuhini byifashishwa mu gutunganya iyo miti gakondo kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Imbuto ndetse n'imiti gakondo ifunze mu icupa, idufasha kuvura indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima bwiza bityo tukabaho twishimye ndetse dufite n'ubuzima bwiza, turye imbuto ndetse dukore n'imyitozo ngororamubiri, tugire ubuzima bwiza.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, imiti kandi ikaba ifite indabo zisa nk'iroza, izi ndabo zikaba zifashishwa na zo mu kuvura izindi ndwara zitandukanye z'umubiri, iyi miti idufasha mu kuvura indwara nyinshi z'umubiri.

Ibirango bigaragaza ko dukwiye kwita ku menyo yacu dukoresheje imiti gakondo, bityo tukagira amenyo meza, tukimakaza umuco w'isuku ndetse tukagira ubuzima buhoraho iteka ryose.

Imiti gakondo igiye iteye mu ndobo zitandukanye, ikaba idufasha mu kuvura indwara z'umubiri ndetse n'iz'uruhu, bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze ndetse tukagira n'icyizere cy'ejo hazaza.

Amacupa afunze apfunyitsemo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba, ukaba uvura indwara zitandukanye z'ubuzima ndetse n'iz'uruhu.

Icupa riri mu ibara ry'igitare, rifungishijwe umufuniko uri mu ibara ry'ubururu, handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, iri cupa rikaba rifunzemo umuti gadondo, umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa atandukanye mu ngano no mu ndeshyo, inyuma yaho hariho ibirango bigaragaza ko hafunzemo imiti gakondo. Imiti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buzima.

Amacupa atandukanye mu ndeshyo no mu ngano, amacupa agaragaza ikirango, kigaragaza ko afunzemo imiti gakondo, imiti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura, indwara zitandukanye z'umubiri ndetse n'uruhu.

Umuti gakondo wifashishwa kuvura indwara zitandukanye z'umubiri ndetse n'iz'uruhu. Ufite indabo, izi ndabo zikaba zifashishwa mu kuvura izindi ndwara zitandukanye ari iz'umubiri ndetse n'iz'uruhu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Umuti gakondo ufunzwe mu icupa ryererana wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, ukanifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo babashe gukira indwara z'umubiri bityo bagire ubuzima buzira umuze.

Amacupa ari mu ibara ry'igitare yandikishijweho amabara atandukanye, bigaragara ko afunzemo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Igikoresho gikozwe mu buryo bwiza, gifatwa nk'igikoresho gifungwamo umuti gakondo kugira ngo ugumane ubudahangarwa bwawo, bityo udufashe mu kuvura indwara zitandukanye, iz'umubiri ndetse n'iz'uruhu.

Imiti gakondo iri ahantu irunze neza. Isekuru n'umuhini byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo kugira tubashe kuyinywa ndetse no kuyitunganya kugira ngo ibashe kugira abo ivura.

Icupa rifunzemo umuti gakondo kugira ngo utaza kwangiza ndetse utaza guta umwimerere, uyu muti ukozwe mu gikakarubamba, ukaba udufasha kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa yifashishwa mu gupfunyika imiti gakondo, kugira ngo igumane uburanga bwayo ndetse n'umwimerere, imiti gakondo idufasha kuvura indwara zitandukanye z'umubiri ndetse n'uruhu.

Icupa rifunze neza, inyuma y'iryo cupa hariho icyapa kigaragaza ko rifunzemo umuti gakondo, umuti gakondo ukaba ukozwe mu gikakarubamba, umuti gakondo ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima buzira umuze. Nk'uko tubibona uyu muti gakondo udufasha kugira ubuzima bwiza, bityo tukirinda indwara zikomoka ku mwanda n'ibindi bitandukanye.

Umuti gakondo wo mu bwoko bw'imbuto, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri ndetse n'iz'uruhu, bityo tukagira ubuzima bwiza dufite n'icyizere cy'ejo hazaza.

Umuti gakondo ufite indabo ndetse wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye: Indwara z'umubiri ndetse n'indwara z'uruhu bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Ikusanyirizo ry'imiti gakondo aho usanga harimo amacupa atandukanye harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, imiti igiye itandukanye ikozwe mu bimera bitandukanye idufasha kuvura indwara nyinshi kandi zitandukanye.

Icupa ry'umuhondo ripfundikiye neza, bigaragara ko rifunzemo umuti gakondo wifashishwa mu gutangwa ndetse no kugira ngo ugabanye ibiro ku bantu bavuye mu myitozo ngororamubiri. Uyu muti udufasha mu kuvura indwara zitandukanye zo mu buzima.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima harimo indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'izindi ndwara ni imiti kandi twifashisha kugira ngo dukomeze kugira ubuzima buzira umuze ndetse tunirinda kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugira ejo hazaza heza.

Imiti gakondo iri ahantu hazitiwe ndetse hameze neza imiti gakondo ikaba ituvura indwara zitandukanye tukaba tuyifata mu gihe twagize indwara zitandukanye zo mu buzima iyi miti ikaba idufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara ziterwa n'umwanda, aho ngaho twasangamo impiswi, izindi tugasangamo inzoka ndetse n'izindi, uyu muti kandi wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buzima.

Icupa riri mu ibara ry'igitare ndetse n'umuhondo, iri cupa inyuma yaho hakaba hariho ibirango bigaragaza ko rifunzemo umuti gakondo, uyu muti gakondo ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, ikifashishwa n'abaganga batandukanye, ikifashishwa n'abaturage mu kuvura indwara z'umubiri bityo bakagira ubuzima buzira umuze.

Umusore wambaye akanozasuku mu mutwe, wambaye agapfukamunwa, wambaye imyenda yifashishwa kwa muganga, imbere ye hari amacupa apfunyitsemo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri.

Intoki z'ikiganza zifashe ku giti cy'umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uteye mu busitani, hari ibyatsi, ibyumye n'iby'icyatsi kibisi.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, ikadufasha mu kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze iyi miti kandi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ku bantu batandukanye, iy imiti tuyifashisha kugira dukomeze kugira ubuzima buzira umuze, iyi miti kandi idufasha mu kongera icyizere cy'ejo hazaza.

Umuti gakondo utewe mu murima, amabuye, ibindi biti, umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri.

Imiti gakondo iteye mu murima yagiye gusurwa n'umugore n'umugabo, umugore yambaye umwenda w'igitare, umugabo yambaye uw'umutuku yarengejeho ikote ry'umukara, bakaba bari kureba imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima.

Imiti gakondo itandukanyije amabara, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima, iyi miti ikaba iri ahantu hamwe, imiti gakondo yifashishwa n'umuntu ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima.

Imiti gakondo ifunzwe mu bintu bitandukanye hari amacupa ndetse n'utundi dukarito, bifunze mu bintu bitandukanye ariko bigaragaza ko bivura indwara, hari indwara zananiranye z'umubiri ariko iyi imiti gakondo ikayivura.

Icupa rifunzemo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima. Icupa kandi rikaba rifite ikirango kigaragaza uwo muti gakondo uwo ari wo. Uyu muti gakondo ukozwe mu gikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima.

Umuti gakondo uteye mu murima. Wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ari iz'umubiri, iz'umutwe ndetse n'iz'uruhu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze, tubayeho neza, dufite ubuzima bwiza.

Amacupa afunzemo imiti gakondo, ingingo zigiye zirwaye, umuti gakondo wifashishwa mu kuvura ingingo z'umubiri zitandukanye, umugongo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye z'umubiri ndetse ukavura ijosi, aho wavunitse hose uyu muti gakondo ukaba uhavura.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ufunze mu gacupa, agacupa kakaba kariho ikirango, icyo kirango kikaba kiriho uruyuki ruri ku rurabo.

Imiti gakondo ihuririjwe ahantu hamwe. Iyi miti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima, iyi imiti kandi yifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo, iyi miti iradufasha cyane mu kutuvura, ikavura n'indwara zitandukanye.

Amacupa atandukanye mu mabara afungwamo imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba yifashishwa mu kutuvura indwara zitandukanye iz'uruhu, iziterwa n'umwanda ndetse n'izindi.

Icupa rifuzwemo umuti gakondo nk'uko bigaragara ku kirango kiri inyuma y'iryo cupa. Icupa rifunze neza ariko inyuma bigaragara ko rifunze mo umiti gakondo ukozwe mu gikakarubamba ndetse n'iyindi miti gakondo.

Icupa rifite umufuniko utukura ndetse ririmo umuti gakondo, uyu muti gakondo ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima, ukaba wifashishwa n'abantu batandukanye bo mu bice bitandukanye.

Umuti gakondo uteye mu murima, inyuma y'uwo muti gakondo hari ibyatsi ndetse n'ibindi biti, uyu muti gakondo ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima.

Imiti gakondo ihinzwe mu busitani butandukanye, imiti ivura indwara zitandukanye, ihinze ahantu hatandukanye, iyi miti ikaba ivura indwara z'ubuzima nk'inzoka ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda.

Imiti gakondo ifite amababi y'icyatsi kibisi ihinzwe mu murima, inyuma yaho hari ibiti n'ibyatsi. Ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye iz'umubiri ndetse n'iz'uruhu.

Igikoresho cyifashishwa mu gupfunyika umuti gakondo, iki gikoresho kikaba kigaragaza ku cyapa cyacyo ko gifunzemo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iki gikoresho kandi kikaba kiri mu mabara atandukanye.

Ikirango kigaragaza imiti gakondo ikomoka mu Kagera ariho hava imiti gakondo. Bityo ikadufasha mu kuvura indwara zitandukanye, iz'umubiri ndetse n'iz'uruhu.

Imiti gakondo ifunze mu macupa, imiti gakondo ikozwe mu gikakarubamba, agasekuro karimo uburoso, imitako irimo imiti gakondo.

Ubusitani butandukanye buteyemo imiti gakondo igiye itandukanye. Imiti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura ndetse no gutuma ubuzima bwa muntu bugenda neza. Imiti gakondo iteye ahantu hatandukanye bityo ikaba idufasha mu kugira ubuzima bwiza.

Umuti gakondo uteretse ahantu, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, yaba ari iz'umubiri, iz'uruhu ndetse n'izo mu buzima busanzwe, bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Amacupa atandukanye mu bugari n'uburebure, afunzemo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye yaba ari iz'umubiri ndetse n'iz'uruhu bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikoresho kifashishwa mu gufunga imiti gakondo. Ivura indwara zitandukanye. Yaba iz'uruhu, izo mu mutwe, ndetse n'iz'ubuzima zitandukanye. Bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byifashishwa mu gufunga imiti gakondo, idufasha mu kuvura indwara z'ubuzima zitandukanye, ari iz'uruhu, izo mu mutwe ndetse n'iz'umubiri, bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byifashishwa mu gufunga imiti gakondo idufasha kuvura indwara zitandukanye. Ikaba ikozwe mu gikakarubamba. Idufasha kuvura indwara, iz'umubiri ndetse n'iz'uruhu, bityo tukagira ubuzima buzira umuze.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Imiti gakondo kandi ikaba iri mu bintu bitandukanye. Hasi hariho amakoma ndetse harimo n'agasekuru kifashishwa mu gusekura iyo miti.

Imiti gakondo iteye mu murima, imiti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima, harimo indwara ziterwa n'umwanda, impiswi ndetse n'izindi ndwara, imiti gakondo ikaba idufasha mu kuvura indwara nyinshi z'umubiri.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bityo kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bw'abana ndetse n'abakuru. Uyu muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inzoka.

Imiti gakondo iri ku kirago. Igiye iri ahantu hatandukanye. Ibiganza bifashe isekuru n'umuhini biri gusekura imiti gakondo, biyitunganya kugira ngo ibashe gutunganywa neza, izavure abantu.

Ubusitani bw'imiti gakondo, iri ahantu hamwe, itegereje gukurira mu bihoho kugira ngo tuyitere, iyi miti gakondo idufasha kurwanya indwara zitandukanye ndetse ikadufasha no kugira ngo tubeho dufite ubuzima buzira umuze.

Icupa riri mu ibara ry'igitare rifite ikirango kigaragaza ko harimo umuti gakondo, iri cupa rikaba ricigatiye umuti gakondo ufunzemo, umuti gakondo ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri.

Amacupa atandukanyije amabara, afunzemo imiti gakondo, imiti gakondo ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ziboneka mu buzima, imiti gakondo yifashishwa mu gutuma tugira ubuzima buzira umuze.

Icupa rifunzemo umuti gakondo udufasha mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, iri cupa rirererana ribambitseho ikirango kigaragaza ko ari umuti gakondoro urimo imbere.

Imiti gakondo ihinze mu murima, imiti yifashishwa kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, imiti ihinze ivanze ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buzima.

Igikarito gifunzemo umuti gakondo udufasha mu gusukura imibiri yacu aho twasangamo ibiganza twirinda indwara ziterwa n'umwanda kugira dukomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Imbuto zihurijwe hamwe aho ngaho twavugamo amaronji asa umuhondo ndetse n'andi maronji asa icyatsi kibisi bikaba bidufasha kugira ubuzima buzira umuze, izi mbuto zifasha abantu bakora imyitozo ngororamubiri kugira ubuzima bwiza ndetse n'abandi batozwe gufata imbuto.

Icyapa kigaragaza imiti gakondo, ndetse kigaragaza ko imiti gakondo ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye muri ubu buzima, turaza kubonamo imiti myiza iva mu bimera yifashishwa mu kuvura.

Umuti gakondo uteye mu murima, iruhande rwaho hari amabuye, umuti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iz'umubiri ndetse n'izuruhu uyu muti ukaba utuma tugira ubuzima buzira umuze.

Imiti gakondo yifashishwa mu gufasha umuntu ukora imyitozo ngororamubiri gutakaza ibiro byihuse ndetse no kumushyira ku kigero cyiza cy'abantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa mu gupfunyika imiti gakondo, iki gikoresho kikaba gipfunyitsemo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu buzima, kikaba kiriho ikirango kigaragaza iyo miti gakondo.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'umubiri, umuti gakondo wifashishwa n'abantu batandukanye mu kuvura indwara zitandukanye dore ko ari wo muti udufasha kugira ubuzima buzira umuze, udufasha kuvura indwara z'umubiri harimo indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'izindi.

Amacupa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufungwamo imiti gakondo idufasha kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima. Bityo tukagira ubuzima buzira umuze, ikizere cy'ubuzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza.

Icupa, riri mu ibara ry'igitare n'ubururu, amagambo yandikishijweho asa ubururu, rifunzemo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuzima kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze.